Aha ni mu rusangiriro, aho hari abantu batandukanye cyangwa aho twita mukabari; abantu bari gusangira ibyo kunywa bigiye bitandukanye nka fanta ndetse n'ibisindisha birimo mitsingi.

Aha ni mu kabari karimo n'urubyiniriro, aho harimo abantu batandukanye bari kunywa ibinyobwa bigiye bitandukanye kandi muri ako kabari harimo n'ibinyobwa by'amoko yose bigiye bitandukanye.

Aha ni mu kabari aho harimo umuntu utanga serivise cyangwa aho abenshi twita nk'ufasha abantu aho harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, ibirahure byo kunyweramo ibyo binyobwa.

Aha ni mu kabari aho harimo ingeri z'abantu bagiye batandukanye buri wese ategereje serivise n'icyo kunywa yasabye ndetse bakaba bafitemo n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

Iki ni ikinyobwa cya virunga kiri mu icupa ndetse no mu kirahure basutsemo aho ari umuntu ugiye kugihabwa cyangwa wagihawe uri ku kinywa.

Aha ni igikuta cyanditseho ijambo SKOL, riri mu mabara atandukanye: umuhondo, umutuku ndetse n'umweru. SKOL ni izina ry'ikinyobwa n'uruganda.

Aha ni mu kabari, aho harimo Etajeri irimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, inzoga cyangwa se ibisindisha bigiye bitandukanye, mu moko yose yagiye atandukanye.

Aha uko bigaragara ni umucuruzi uhagaze mu kabari aho batanga ibinyobwa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, akaba ari kwitegereza niba hari icyaba kibura.

Iki ini icyapa kiriho ikinyobwa cya henikeni kiri gusukwa mu kirahure, ndeyse hakaba hari n'akabari cyangwa urubyiniriro, aho bigaragara ko icyo kinyobwa gihari kandi ku giciro gihendutse.

Iyi ni urupapuro rwanditseho ibyo kunywa no kurya mu kabari biba bihari ndetse ukaba warwifashisha ureba kugira ngo ugire icyo utuma cyagufasha nyine mu byo ukeneye.

Ahangaha n'umucuruzi uhagaze mw'ikusanyirizo, bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye bikomoka ku mata, hakaba harimo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Iri nikaragiro ry'amata aho hari ibikombe ndetse hari n'amata ari kubuganizwa mu gikoresho bazanye kugirango bashyirare mo abakiriya ndetse bigaragara ko hari amata meza.

Aha ni mu ikusanyirizo, aho harimo ibyo kunywa bitandukanye bikomoka ku mata, ndetse bipfunyitse mu bikombe. Akaba ari ibyo kunywa biturutse ku mata, bigiye bitandukanye.

Aha ni ku ikaragiro ry'amata, aho hamanitse icyapa kigaragaza uruganda ayo mata atunganyirizwamo ndetse n'ibiyakomokaho, uruganda rwa Nyanza, ndetse hakaba hariho na nomero washobora kubabonaho.

Aha ni mu ikusanyirizo cyangwa mu ikaragiro ry'amata aho hari ibyo kunywa bigiye bitandukanye bimanitse mu kabati ndetse hakaba hari n'ibindi byo kunywa bikomoka kumata n'ibitayakomokaho harimo nk'imitobe, ni muruganda tuzi rw'inyange.

Aha ni umucuruzi uri mu ikusanyirizo uri gupima amata hari gupimirwa umukiriya bitewe n'ingano yamusabye ayo ashaka.

Aha ni mu ikusanyirizo cyangwa mu iduka aho bacuruza ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandkanye, harimo etajeri, hamanitsemo amajerekani y'amata, amandazi, amakureti y'amagi n'amazi yo kunywa.

Iki ni icyuma kibikwamo amata cyangwa se ikaragiro ry'amata, aho babikamo amata kugira ngo abashe kumara igihe kinini atangiritse cyangwa adapfuye.

Uyu muntu afite amakureti atanu y'amagi, ane yuzuyeho amajyi iya gatanu harimo imyanya yagiye atanga ahantu hagiye hatandukanye.

Aha, ni umucuruzi wa sosiyete ya MTN mu gihugu, uri kumwe n'umukiriya. Ari kumuhereza telefoni kugira ngo igikorwa ashaka kibashe gukunda.

Aha ni kuri sitasiyo ya esanse aho umukiriya ari kwishyura akoresheje terefone, ndetse hakaba hari n'umugore ukora mu kigo cy'itumanaho cya emutiyene ndetse n'umuntu ushinzwe gutanga esanse.

Aha ni umucuruzi w'ikigo cy'igihugu cy'umuyoboro wa emutiyeni, aho ahagararanye n'umugabo bisa nk'aho ari kumwaka serivisi, wambaye umupira w'icyatsi, akagofero ndetse n'ipantaro, uri kureba muri telefoni.

Aha ni ku ishami ry'ikigo cya mtn aho hari abantu benshi bategereje serivise, ndetse hari n'abandi bari kuzihabwa n'abakozi bakora muri muri iryo shami.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'igihugu cy'umyoboro wa emutiyene aho ahagaze ategereje kwakira abakiriya ndetse, ari mu mutaka uri mu mabara y'umuhondo ndetse n'utubati tumukikije turi mu mabara y'umuhondo.

Aha ni ku kazu k'umukozi w'ikigo cy'umuyoboro wa MTN aho ari gutanga serivise ku bantu baje bamugana akaba ari abakobwa babiri bambaye udupira tw'umutuku ndetse n'amajipo y'umukara n'umugabo umwe ufite bag y'umukara/ufite igikapu cy'umukara yambaye n'umupira w'umweru.

Aha ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje kode cyangwa uburyo wakwishyuramo amafaranga bitewe na serivise wasabye ku buryo ntakiguzi bagusaba ahubwo ari ukwishyura gusa ku muyoboro wa emutiyeni.

Aha ni ku ishami ry'ikigo cy'umuyoboro wa Eyateri mu Rwanda, aho hari abantu bagiye batandukanye ndetse bategereje serivisi zigiye zitandukanye, hakaba hari abari kuzihabwa ndetse hari n'abategereje ko bagerwaho kugira ngo bahabwe serivisi bashaka.

Aha ni ku iduka ry'umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'umuyoboro wa MTN aho ari gutanga serivise ku mukiriya waje umugana. Umukiriya na we ategereje serivise, umukiriya yambaye ikote ry'umukara, mu imbere mu kazu mu iduka harimo abakozi babiri.

Iki ni icyapa cya MTN aho kiri kugaragaza uburyo wakwishyuramo serivisi wahawe nta mafaranga y'ikiguzi, aho wakoresha amakarita yo muri banki cyangwa ugakoresha telefone yawe.

Iri ni isoko rikorera ku mbuga nkoranyambaga, aho bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bakorera mu Rwanda, ndetse bakorera no hanze y'igihugu. Aho wabatuma ikintu bakakikugezaho.

Ubu ni ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bukorera mu mugi wa Kigali ndetse bikaba bigaragara ko iduka rifunguye, ukaba watuma ndetse ukaba wancuruzaho ibicuruzwa runaka.

Iri ni isoko rikorera ku mbuga nkoranyambaga, aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo mo amatelefoni, ama mudasobwa, imyenda y'abagabo, iy'abagore, iy'abana, ibikoresho bya siporo ndetse bakaba bari no kwifuriza abantu abantu umwaka mushya muhira wa bibiri makumyabiri na gatanu.

Ubu n'ubucuruzi bukorerwa ku mbugankoranyambaga, aho bari kwerekana ibihugu bakoreramo ndetse n'umubare w'ibyo bacuruza n'ibyaguzwe uko igiye imeze.

Ubu ni ubucuruzi bukorerwa ku mbugankoranyambaga aho bapfunyitse ibyo umukiriya yabasabye mu gipapuro kugira babimugezeho bagiye kubihereza umumotari utwaye moto iriho icyapa cya yego ndetse n'umurongo wahamagara igihe ubaye ukeneye indi serivise.

Iki ni ikigo gikorera ku mbuga nkoranyambaga aho bari kugaragaza ko kwiyandikisha byatangiye ndetse amafaranga yo kwiyandikisha ni ibihumbi cumi nakimwe, kwihugura amezi atatu ni ibihumbi ijana na makumyabiri, kwihugura amezi atandatu ni ibihumbi mirongo itandatu.

Iri ni iduka rikorera ku mbuga nkoranyambaga aho bacuruza ibijyanye n'amavuta asukura uruhu ndetse bakaba babikugezaho ahantu hose waba uri.

Iri ni nk'itangazo ry'ibicuruzwa ku mbugankoranyambaga, aho bari kwerekana ko mu Rwanda ndetse muri Kigali ibicuruzwa bacuruza ku mbugankoranyambaga byamaze kuhagera.

Aha hari umukobwa cyangwa umucuruzi uri gupakira ibintu kuri moto aho bagiye kubishikiriza umuntu wabibatse cyangwa ahantu ari.

Iyi ni isoko rikorera ku mbugankoranyambaga aho bari kwamamaza igikorwa kizabera muri Serena hoteri, ku itari makumyabiri n'ikenda z'ukwa Nzeri. Aho bari kugaragaza aho wagura amatike agiye atandukanye hakaba harimo n'abaterankunga bagiye batandukanye harimo nka mitsingi.